Ivomero rusange ry'abaturage riri ahantu hegeranye n'igisambu kinini cyane kirimo ubwatsi, hirya hari imyaka n'amashyamba n'ibindi biti bitandukanye, abana baje kuvoma, umwe ari kuzamura icyuma cy'iri vomo undi akavoma ni abana bane b'abahungu bato.

Abantu bari ahantu mu nyubako nini, igitsinagore babyinnye bishimye, habaye n'ikirori ndetse barimo barasusurutsa abantu ni cyo kintu kirimo kugaragara hano.

Ivomo rusange ry'abaturage riri ahantu abaturage babasha kugera bakabona amazi meza, hari umwana mutoya wambaye ikanzu itukura, arimo arakaraba intoki ariko asa naho afite ikindi kintu yarangariye ku ruhande, ari kureba agaseka.

Abirabura b'abaganga bari mu ifoto bahagaze bishimye bambaye amataburiya ndetse hagati yabo harimo umuzungu uri mu ifoto hagatirose ko bishimye bitewe n'uko akazi kabo kagenze neza cyangwa n'ibyo bakoze bagezeho.

Inama yita ku buzima yabereye ku murenge cyangwa ahandi hantu runaka abaturage bashobora guteranira, yitabiriwe n'abayobozi batandukanye bahongaho harimo n'abari mu nzego zishinzwe umutekano, harimo ababyeyi bafite abana, barimo barabigisha uburyo ki baharanira kugira ubuzima bwiza, no kwirinda indwara zitandukanye bagakomeza kubaho neza.

Umukobwa ukiri muto ari kumwe n'undi mugabo wambaye ijire yanditseho pongsec umukobwa ameze nk'ucuruje imiti iri mu bintu by'amashashi n'ibindi bikoresho uwo muntu ari kuza areba uko ibyo bintu bimeze

Umubyeyi yaje kwa muganga ateraruye umwana we hanyuma ari kumwe n'umuganga wambaye itaburiya y'abaganga, ari kumufasha guha umwana imiti akoresheje agafuniko ka bibero amusuka mu kanwa amufasha kugira ngo atagarura uwo muti.

Inyubako yo kwa muganga, aho abana n'abandi bantu bakuru bambaye agapfukamunwa baje kwivuza, bamwe bicaye ku ntebe ahandi hari umwana ndetse n'undi muntu mukuru ureba ko yaje aje kuvuza uno mwana, bari imbere y'abaganga babiri aho bari kubafasha babuzuriza amafishi babashyira muri sisitemu ngo bakomeze babone uko bivuza.

Abaganga babiri bambaye imbang' n'amaga, hari n'undi uri kubafasha umwe wambaye bange ariko atambaye bari kumwe n'abarwayi babiri barifguata amaraso kugira ngo barebe ko nta ndwara barwaye.

Ifoto bafatiye muri mikorosikopi, muri mayikorosikopi yerekana viyirasi ya madibage, uburyo iba iteye bayizuminze iragaragara neza kugira ngo abantu bayimenye bamenye n'uko bayirinda batazayirwara.

Ababyeyi babiri baje kwa muganga bari kumwe n'abaganga babiri barimo babafata amaraso ku rutoki, hirya hari n'undi uri gufasha abaganga abaha ibyangombwa by'ingenzi bari gukoresha bita kuri aba barwayi.

Inama yateranye irimo irimo umuyobozi, irimo n'abandi bantu baje bitabiriye ino nama, harimo abafatanyabikorwa, cyangwa nk'abakozi bakorera ikigo kimwe, bari kwiga ku iterambere, bari no kurebera hamwe uburyo barushaho kunoza ibyo bakora.

Ivomo rusange riri ahantu heza rwose, aho abaturage biborohera kuhagera, hegereye imirim uruzi ko hegereye n'ingo z'abaturage, biroroshye ko baza kuhagera, ijerekani zihari ni nyinshi, bategereje amazi meza kugira ngo bayakoreshe, birinde kujya kuvoma amazi atanduye ashobora kubatera indwara.

Abana batoya bambaye imipira isa iri mu ibara ry'ubururu, indi iri mu ibara ry'umuhondo b'abirabura harimo n'umuzungu umwe bakoze uruziga, uruziga rugiye rurimo ndetse n'abantu bakuru, harimo uwicaye imbere mu ruziga n'abana, harimo n'abicaye inyuma bazengurutse abana inyuma y'uruziga, bari kubigisha ku kintu runaka ndetse n'ingingo runaka.

Ababyeyi batatu bafite ibintu by'impapuro mu ntoki bicaye mu gisambu ku ntebe, hanyuma hari umuganga waje kubafasha ibintu ari kubafasha ni ugupima umuvunduko w'amaraso wa buri umwe kugira ngo arebe ko bafite ubuzima bwiza.

Abana b'abanyeshuri bari ku marobine, ayo marobine atatu agiye afite imbere n'inyuma, hanyuma imbere hari indobo eshatu n'akajerekani, n'inyuma hari akajerekani, babiri babiri bari kuri robine imwe bavomeraho buri wese avoma ku mwanya we, hari n'abarimo bakara kandi barishimye.

Ikigo nderabuzima kiriho abajyanama b'ubuzima n'abandi bantu bakora aho ngaho uruzi barimo kubyina bishimye bakira umushyitsi waje abasura kugira ngo arebe imikorere y'icyo kigo nderabuzima n'uburyo abantu bafasha abantu kubona serivisi z'ubuzima.

Abantu bavuye mu nama runaka, uruzi bakora mu kigo cy'ubuzima, bamaze kwiga ku bibazo runaka, cyangwa bamaze kwiga ku kintu runaka, gifitiye sosiyete akamaro, ndetse giteza imbere ubuzima bw'abantu mu nzego zitandukanye, cyane cyane mu rwego rw'ubuzima.

Inama yateguwe irimo abanyarwanda, abanyamahanga n'abandi bantu batandukanye, biga ku bintu bitandukanye. Nyamukuru ahangaha iyi ni ifoto yabo nyuma yo gukora inama bahagaze ahantu bafata ifoto y'urwibutso y' munsi.

Ivomo rinini, rifite sayize nini, umubyeyi arimo aravoma, hari abandi babyeyi babiri barimo bamukururira kugira ngo amazi abanze aze, abone uko abona amazi meza yo gukoresha, bityo agira ubuzima bwiza n'umuryango we.

Ivomo rusange, aho ababyeyi batatu n'umukobwa umwe baje baje kuvoma, uri kubafasha kuvoma nawe ni umukobwa, bazanye amavido atandukanye, rino vomo rifite imyanya itatu, iyo bari gukoresha ni imyanya ibiri kugira ngo bavome amazi bayatahane.

Ivomo rusange rigezweho, riri ahantu ku muhanda aho byoroheye buri muntu wese kuba yahagera, abana baraza bakavoma, abantu bakuru bakaza bakavoma, ni ivomo rigezweho, aho kugira ngo amazi aze bisaba kubanza gusa n'umanura icyuma kiri inyuma, ntabwo rimeze nk'andi mavomo asanzwe tuzi.

Ikigo cy'amashuri aho abana biga hanze hari umwana uri kuri robine urabona ko ari gukaraba ashaka kunywa amazi, imbere hari indi ndobo ihateretse imeze nka puberi.

Abana babiri b'abahungu bicaye kumeza, inyuma yaho hari ibara ry'ubururu rigiye rizengurutse inyubako barimo, umwana umwe w'umuhungu yateye urutoki hejuru.

Abantu babiri bari kumwe numukobwa ukiri muto wambaye umupira ujya gutukura ndetse n'umuntu ukuze umugabo wambaye umupira w'ubururu inyuma hariho jile yanditseho unicefu y'umweru bari gukorera umwana ijerekani ayihagaritse yanditseho yunusafe arasetse bi.

Ihema ryubatse hino y'ahantu hari ibiti byinshi, imbere bashyizeho icyapa gishishikariza abantu cyangwa kibabwira ku nsanganyamatsiko runaka. Abantu barimo imbere mu ijyo hema, ni benshi mu byiciro bitandukanye, imbere hari umuganga urimo abigisha kuri iriya nsanganyamatsiko iri kuri bano iri hariya.

Inyubako irimo abana b'abanyeshuri bato cyane harimo abarimu babo n'undi muntu wambaye ijire isa niy'abakorerabushake, ndetse n'abandi bantu ubona basuye aba bana bari kubasekera barishimye.

Abantu batatu bari hamwe, ni abamama babiri n'umugabo umwe, abamama babiri bateruye umufuka bari kugenda bawuhereza umugabo uhagaze hejuru y'indi mifuka myinshi, agenda ayitondekanya imwe ayitereka hejuru y'indi gutyo gutyo.

Abaturage bateraniye ahantu ni benshi, baje mu gikorwa cyo kugira ngo babasuzume indwara zitandukanye, abaganga baje kubaha serivise z'ubuzima bari hamwe barateranye, bamwe bamaze kuzihabwa, abandi bategereje kuzihabwa ni benshi cyane.

Abakozi b'ikigonderabuzima bambaye imyenda yabo y'akazi n'amabaje barabyinnye, bishimye, bari kwakira abashyitsi babagendereye b'abazungu baje kureba ikigo cyabo uko gikora no mu bindi bikorwa bitandukanye by'ikigonderabuzima.

Umwana waje ku iriba kuvoma mazi, arayavomye aruzuza ibijerekani yazanye, ndetse ari gukara uruzi byamushimishije, uruzi ko yishimiye ko amazi ari kuboneka, kandi ari kuyabona nyine uko ayashaka, amazi yamushimishije cyane.

Abakozi bakora muri kampanyi cyangwa ikigo runaka bagiye batembereye bagiye gusangira na bosi wabo bishimira ibyo bamaze kugeraho nibyo bagezeho n'ibyo bateganya kugeraho babipanga kugira ngo bazagere ku bintu byinshi bitandukanye mu gihe kiri imbere.

Umuntu wagiye kwa muganga bari kumutera urushinge, bari kumuvura indwara runaka yaje arwaye, urabona ko urushinge ruri kumubabaza cyane, yafunze amaso nk'umuntu uri kubabara n'umuganga ari kumutera vuba kugira ngo asoze adakomeza kubabara cyane.

Umukobwa uri kuvoma amazi ayakuye ku mureko hejuru kumureko uturuka ku nzu hejuru, uruzi yishimye cyane amazi ari kumufasha mu bikorwa bitandukanye arimo aho mu rugo, yafuza imyenda yagize ate n'andi masiuku arimo akenera gukora.

Itsinda ry'abagabo n'abagore uruzi bakora mu nzego z'ubuzima, bakora kwa muganga, bifotoje ifoto bari hamwe, ureba ko basa n'abahawe za seritifika cyangwa ibya ngombwa byerekana ko ara ari abakozi bemewe cyangwa bafite ubumenyi runaka ku buryo baba baha serivisi abaturage zerekeranye n'ubuzima.

Umubyeyi ari kumwe n'umuganga wambaye iniforume y'akazi, uwo mubyeyi ateruye umwana we, umuganga arimo arafasha uwo mubyeyi guhereza umwana we amata, bakoresheje bibero, kugira ngo uwo mwana abashe kumera neza.

Ivomo rusange riri ahantu hasa n'aho ari mu kabande abantu baje kuvoma harimo abana bato, harimo n'umuntu mukuru umwe barimo baravoma ariko bafite n'ikintu barangariye bamwe ku ruhande barimo bareba kiri hirya yabo.

Umubyeyi w'umumama uruzi ko akuze, yambaye igitenge cy'icyatsi kibisi, yambaye n'umupira wa move ugiye urimo umweru n'ingofero ya move, ari ku ivomo yaje kuvoma ndetse inyuma ye urabona hari imirima, ahandi hari ibiti, ahandi hari amashyamba.

Ivomo rusange ry'umudugudu aho abaturage batandukanye batuye hafi aho baje kuvoma bazanye amavido, bazanye amabase, bazana amadishi, n'ikindi kintu icyo ari cyo cyose wavomera amazi. Bamwe bari kuvoma n'abandi baricaye bategereje ngo bagerweho bavome. Hari n'umuntu w'umugabo mukuru usa n'aho ahabasanze arimo arabaganiriza.

Inyubako yateraniweho n'abantu benshi cyane, abagore, abana, urubyiruko, hari abantu bakora mu nzego z'ubuzima, bambaye amabaji, hari n'inzego zishinzwe umutekano, kandi hubatse n'amahema abiri, ahandi hirya yaho hari imodoka, n'ahandi hagaragara hasa n'imbere ari ambiranse ihaparitse ifunguye umuryango.

Kwa muganga baje, aba abaturage bateranira, aho bakorera inteko y'abaturage cyangwa ahandi baza gusaba serivisi runaka, baje kubafasha kubasuzuma indwara zitandukanye no kubafasha kujya kubaha amahugurwa atandukanye yerekeye ubuzima bwabo.

Icyumba cyo kwa muganga, aho harimo abantu batatu: umwe ni umuganga, abandi babiri, umwe ni umurwayi, araryamye areba hejuru, undi ni umurwaza. Hanyuma umuganga ari gukoresha akuma, ari kugashyira ku nda y'uyu mubyeyi uryamye, na we yumvira mu matwi.

Ahantu hari amashyamba hari n'urwuri rusko bashobora kuba baragiramo iruhande hari abana benshi bari iruhande rw'ikizenga gihari ku rundi ruhande rwabo hari umunyeshuri wambaye neza iniforume zifite isuku afite n'ibirahuri bibiri by'amazi meza.

Icyumba kiberamo inama hari abantu benshi cyane bambaye amabaje bo mu byiciro bitandukanye abagore n'abagabo, abirabura n'abazungu bose, urabona bari kwandika bamwe n'abandi benshi barakurikiye nk'ijambo ry'umuntu uri imbere urimo ababwira.

Urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa bambaye imipira y'umukara, n'abandi bambaye indi myenda isanzwe, bicaye ahantu bateze amatwi ni nk'ijambo ry'umuntu bateze amatwi.

Abantu bambaye umupira wa buresiyeri ruze harimo itsinda ry'abantu baje mu gikorwa cyo gutera ibiti, bari kumwe n'inzego zitandukanye z'umutekano, inzego zo kwa muganga n'izindi nzego z'abaturage bari gufatanya.

Umubyeyi n'umwana bishimye cyane umubyeyi ateruye umwana we ari kumureba akamutera ibyishimo n'umwana yishimiyera ko yateruwe n'umubyeyi we, arishimye rwose bameze neza kandi bigaragara neza.

Umusore wambaye umupira w'umuhondo w'inzobe ufite ubwanwa, yasetse arishimye, mu kanwa ke haragaragara neza, afite amenyo meza asa umweru afite isuku.

Umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe uri hagati y'ipine, yafashe ipine araryiyambika asa n'uriteruye nyine ku bibero bye, yiyicariye ahantu abantu baraje bamunyuze iruhande bari kureba ibyo arimo.

Umubyeyi uruzi ko ari uwo mu cyaro, yambaye imyenda isanzwe, afite isuka mu ntoki, yikoreye n'igitebo kirekire kirimo imigozi n'ubundi bwatsi butandukanye, inyuma ye hari igiti cy'igihingwa kiriho kayote, hirya hari n'inzu ifite amategura, uruzi ko wagira ngo ni mu rugo iwe.

Abantu bingeri zose bicaye mu nyubako muri salle bateze amatwi baritonze, bakurikiye ijambo ry'umuntu runaka uri imbere arihereza kugira ngo bite ku buzima bwabo birinde indwara zo mu mutwe.

Abana uruzi bishimye cyane bateraniye hamwe wagira ngo hari umuntu urimo abakinisha imikino uhagaze imbere yabo, na bo bakajya basubiramo ibyo arimo aberekaro uruzi bishimye ndetse banezerewe kuba bari hamwe.

Ikiganiro cyateguwe inkunwe na RBC, kiri kubwira abaturage uburyo ki bakwita ku buzima, uburyo bata ku mibiri yabo, ubuzima bwabo bwa buri munsi bukagenda neza, birinda indwara n'ibyo bakora yabuza kubungabunga ubuzima bwabo.

Sare nini irimo abantu batandukanye b'ingeri zose abakuze, abato, urubyiruko baricaye harimo umubyeyi imbere n'umukobwa bari kubabwira ijambo bariteze amatwi banezerewe.

Umuntu ubana n'indwara yo mu mutwe yambaye ibintu by'imyanda n'ibindi byose yatoraguye, hari ahantu hari indi myanda myinshi cyane, uruzi ko ari ahantu bamena ibintu by'imyanda. Hakurya hari amazu n'inyubako nyinshi.

Abakozi b'ikigo runaka bari ahantu hamwe nko muri salle uruziko bameze nko gukora inama cyangwa kuba bungurana ibitekerezoho gatoya nyuma y'akazi, cyangwa mbere y'uko batangira akazi, bafashe ifoto barishimye kuko ibyo bigiye aha ngaha bigaragara ko ari ingirakamaro bifitiye sosiyete umumaro.

Aantu batandukanye abana, urubyiruko, abakuru bari hamwe bafite inamarapo y'u Rwanda, buri wese afite amadrapo ndetse hari n'abafite irirenze rimwe mu ntoki bayazamuye hejuru bishimye basi.

Hano hafashwe umuntu usa n'umunyabyaha cyangwa yenda ushobora kuba yagiriye nabi umuntu abamufashe ntibarimo bagaragara ifoto bayifashe mu rwego rwo kwerekana uwo muntu nyirizina wenyine hatajemo amafoto y'abamufashe n'abaje kureba ibirimo bibera aho ngaho sayize ntabwo ari nziza cyane.

Umuntu w'umugabo wambaye ikote n'ipantaro byiyubashye by'umukara n'ishati mu imbere. Yaje ahantu wagirango bashyingura yazanye indabo ari kunamira umuntu we uhashyinguye. Hirya hari undi mukobwa usa n'uhakora wambaye ijire nkiy'abakorerabushake, umeze nk'aho akorera aho hantu nawe buri munsi.

Icyumba cy'inyubako kirimo abantu benshi cyane bicaye ku ntebe z'imisego begamira uruzi bateze amatwi, umuntu w'igitsina gore uri imbere urimo upurezanta, ababwira ku kintu runaka kandi n'imbere ku rundi ruhande inyuma y'uwo mukobwa urimo apurezanta hari televiziyo ihari.

Umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe, wicaye ahantu yifashe yigunze, afite amazi mu mashashi, yambaye imyenda icikaguritse, yicaye ahantu ku nzira aho abantu banyura bagenda.

Abantu b'igitsina gabo n'igitsina gore bifotoje, bamwe bambaye impuzankano z'umweru abandi bambaye imyenda isanzwe, harimo abirabura n'umuzungu umwe, bifotoreje imbere y'icyapa cyanditseho imbuto, bafite amaseritifika bahawe, ariko bose ntabwo ari ko bayafite, ni bamwe na bamwe cyangwa igihembo runaka bahawe.

Umukecuru yicaranye n'abana benshi cyane ku musambi, uruzi batakarabye bose yambaye imyenda idafite isuku kandi nawe ntabwo asa neza, urabona ko ari umuryango ukennye kandi utishoboye.

Icyapa cyanditseho Isange wani sitopu senta hariho ikirango cya repubulika y'u Rwanda, ikirango cya polisi y'u Rwanda, hasi handitseho n'abandi bantu hariho yunisefu n'ibindi bigo bitandukanye.

Abana ari abakobwa ari abahungu bicaye hamwe bifotoje basetse, urabona ko harimo abanyeshuri bambaye iniforome zo ku ishuri, harimo n'abandi batambaye iniforome, bose bari mu ifoto imwe barishimye.

Abantu benshi batandukanye b'ingeri zose, bicaye ahantu mu cyumba cy'inama, bakoze nk'uruziga, mo hagati harimo umumama urimo ubaganiriza, apurezanta, abigisha inyigisho ku byerekeye n'uburwayi bwo mu mutwe.

Icyumba cyo kwa muganga gifite amakaro hasi, gifite irangi ry'umweru kuri parafo n'amatara hejuru, gifite ravabo, gifite indabo ziri mu ivaze, gifite televiziyo n'ibindi bikoreshodeshwa.

Umwana bari gusuzuma amenyo ye bareba ko ameze neza, bareba iryo itameze neza bagiye gukubura kugira ngo bamurinde kuba yazana amenyo menshi agerekeranya mu kanwa ndetse no kuba yarwara andi menyo, bitewe n'uko harimo iryinyo mu kanwa ritameze ni kimwe n'andi.

Ino foto iragaragara umuntu bagiye gukura amenyo ikindi iragagaza isura y'uwo muntu umuganga uri kumufasha byose bigaragara, bakagarawundi yo ku ruhande ntabwo bigaragara, ntabwo kondishoni zo ku ruhande n'ikirere turi kubona uko bimeze, twakoresheje kamera iri natirere nta editingi irimo, ino foto imeze neza iyo iza kuba yujuje sta...

Umukobwa w'inzobere ufite umusatsi mwinshi kumutwe wambaye isengeri y'umweru, arimo ariborosa akora isuku mu kanwa ke, arimo yirebera mu kirahure kugira ngo yinoze anoze amenyo ye ase neza.

Umuganga ari kumwe n'umurwayi uri ahantu mu cyumba bavurira, umurwayi yasamye urabona ko ashobora kuba afite ikibazo cy'amenyo, bari kubanza kumutera ikinya kugira ngo mu kanya babone uko bamukuramo iryinyo iryo yaje aje kwivuza.

Umusore utari inzobe cyane uruzi ubyibushye yasetse afatiye akadoda ku munwa agafatishije ibiganza byombi, icy'iburyo n'icy'ibumoso, yasetse urabona ko afite mu kanwa heza, afite amenyo meza afite isuku.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo intebe zitandukanye n'aho abarwayi baza bakaryama iyo barimo babavura, ndetse kirimo n'ibindi bikoresho bitandukanye, ibyo bakoresha bakura abantu amenyo, n'ibindi bakoresha mu gukora mu menyo, ndetse no kuba basimbuza amenyo yagize ikibazo, no gukura atameze neza.

Umuntu w'umugabo w'inzobe ufite ubwanwa yafunguye umunwa we afite akantu k'agakore karimo kumufasha gusuzuma amenyo ko akomeye ndetse no kureba mu kanwa hose uko hameze.

Abajene babiri umukobwa n'umuhungu bambaye imipira y'umweru hasi n'amapantaro asa bari kumwe, bari muri miruwari basetse, bari kureba mu kanwa kabo, bafite amenyo meza afite isuku.

Itsinda ry'abantu bihuje biyita izina tubiteho nk'uko bigaragara ku mpuzankano bambaye imipira yabo, baraza bakigisha abaturage uburyo ki bita k'umenyo yabo ,umuntu ukuntu yiborosa neza uburoso bukagera hose mu kanwa agakuramo imyanda yose irimo kugira bidufasha kwirinda kurwara amenyo n'izindi ndwara zitandukanye zo mu kanwa.

Inyubako yo kwa muganga, ifite irangi ry'umuhondo ku ruhande, harimo ibintu bitandukanye; amarido n'ibindi bikoresho byifashishwa kwa muganga, nanone harimo umugabo w'umuganga w'ibyo bitaro, wicayemo, yicaye ku gatebe, arishimye.

Umuntu w'igitsinagabo w'umwirabura uryamye ari kumwe n'umuganga w'umuzungu wambaye ingofero, wambaye agapfukamunwa n'imyenda y'akazi, arimo aramumurika mu menyo ndetse arebamo hose ngo arebe ibibazo amenyo ye afite.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo intebe, harimo ibindi bikoresho nk'amateleviziyo n'ibindi bikoresho bifashisha, mu gukura abantu amenyo bigiye bitandukanye.

Umusore utambaye hejuru ndetse afite ubwanwa, uruzi ubyibushye ufite umubiri mwiza, afite akadodo yafatiye ku munwa afatishije ibiganza byombi, icy'iburyo n'icy'ibumoso, yasetse afite mu kanwa hafite isuku, afite amenyo meza asa umweru.

Umukobwa ari kwiborosa yireba ko yiboroshe neza ndetse ko yinogeje mu menyo ye nta myanda yasigaye hagati y'amenyo n'andi, bino bikaba bifasha amenyo yacu kuba ameze neza, akomeye, kandi afite isuku, bityo bikaturinda n'indwara zo mu kanwa ziterwa n'umumwanda no kutagirira isuku mu kanwa kacu.

Ishinya y'umuntu bacishije muri X-ray kugira ngo barebe ibibazo byaba biri mu menyo ye, babashe kureba ayagize ibibazo bazayakuremo n'andi bakeneye gusimbuza babe bayasimbuza.

Umusore wambaye umupira w'umweru w'inzobe, ufite akadodo yafatiye mu menyo, yasetse amenyo ye arasa neza afite isuku, ameze neza urebye.

Umuntu wishimye cyane wasetse ni inzobe afite amenyo y'umweru afite ishinya itukura ,afite akadodo mu kanwa yagatamiye yasetse cyane arishimye urabona ko amenyo ye ari mazima ndetse nta kibazo na kimwe afite ,afite mu kanwa heza.

Abana b'abanyeshuri bari ahantu hamwe n'itsinda ryabo bafite uburoso bari kwiborosa ko bari gukora isuku yo mu kanwa kabo bishimiye ndetse bumva akamaro ko gutwara isuku mu kanwa no kuba wakwiborosa neza korogate n'amazi meza buri wese afite agakombe n'uburosi.

Umuntu w'umusore wambaye umupira w'umweru w'imibiri yombi wishimye wasete warose ko afite amenyo meza afite isuku ari ku murongo agaragara neza.

Umusore w'inzobe utambaye hejuru, ufite umusatsi muke cyane ku mutwe, yasetse afite amenyo y'umweru, yafatiye akadodo mu menyo akoresheje amaboko yombi, ari kubikora byose yireba muri miruwari.

Abana b'abanyeshuri bari mu ishuri, bari kumwe na mwarimu wabo, bose bifotoje bafite uburoso mu ntoki bushyashya bugifunitse neza, barishimye, bari kubigisha akamaro ko koza amenyo neza, no kugira isuku yo mu kanwa.

Umupapa wambaye umupira w'umweru, ukeye ku maso wishimye, uri guseka, afite n'akadodo yafatiye iruhande rw'umunwa, akoresheje amaboko yombo, yasetse, afite amenyo asa umweru, ameze neza, afite isuku.

Abaganga b'abarwayi baza kuvurirwa harimo abaganga babiri umwe yambaye imyenda y'abaganga, ingofero yabo, mu mutwe n'agapfukamunwa, n'undi yambaye agapfukamunwa n'imyenda yabo bose, bambaye n'amaga mu ntoki barimo barareba mu kanwa k'umuntu bareba amenyo ye ikibazo afite bakoresheje ibyuma byabugeneye byo kureba.

Ibikoresho bitandukanye bakoresha, mu ma raboratwari, bapima ibintu bitandukanye, cyane cyane raboratwari zo kwa muganga, ngira ngo bafashe abantu kugira ubuzima bwiza babavura ndetse babitaho.

Umuntu ukuze w'umugabo ari muri siporo, ari gukora siporo yumva umuziki kugira ngo imufashe kutananirwa ndetse akome agira kurage akore siporo igihe kinini atarambiwe.

Ababyeyi b'abamama batandatu ariko muri bo harimo ushaje umwe, imbere yabo hari inyanya ziri mu bintu bimeze nk'imikarito arimo arabaganiriza abagira inama ndetse n'inyuma yaho gato hari izindi mbuto nk'amaronje, urabona ko ari mu isoko bicaye.

Umugore ndetse n'umugabo uruzi bakuze, bari muri siporo, bari kwirukanka, bagorora ibice bitandukanye by'umubiri wabo; amaboko, amaguru, n'izindi ngingo z'umubiri wabo.

Umusore ukiri mutoya ari kumwe n'umuntu mukuru ushaje, bari gusoma igitabo urabona bishimye cyane bishimiye ibyo bari gusoma birashimishije, bafite n'ibikombe bibiri bibateretse imbere ku meza, bari gusoma bagira n'ikintu cyo kunkwa bafata.

Umumama ukuze wambaye umupira wa oranje, igitambaro cy'umukara mu mutwe, rinete n'impeta ku rutoki, ari kumwe n'umuganga wambaye impuzankano z'abaganga, zisa ubururu ufite n'akuma mu ijosi, ufite imisatsi y'umukara w'inzobe, muganga yamufashe mu ijosi arimo aramuganiza.

Umugabo ukuze ubyibushye ari ku ntebe afasheho, ari kumwe n'umuganga w'umuzungu, afite akantu k'icyatsi kibisi k'agakoresho mu ntoki, akandi yagahaye uwo mugabo ari kumusuzuma nk'indwara runaka cyangwa ko umubiri we ukora neza.

Umumama n'umupapa bagaragara nk'abakuze, umumama ari imbere ya mashini uruzi ko yari arimo yandikaho ibintu, umupapa afite umuti mu ntoki n'ibinini bimuteretse imbere n'impapuro, arimo aramwereka ibyanditse kuri ako gacupa karimo umuti.

Umupapa ukuze wambaye umupira w'inyuma w'umweru n'ishati y'icyatsi kibisi mo imbere, wambaye na linete, afite ikaramu mu ntoki, afite n'ikayi ari kwandikamo ibintu bigiye bitandukanye.

Umusaza ukuze wakuyemo imyenda utambaye yicaye ahantu uruzi ko barimo baramwuhagira, bari mu kumufasha gukora isuku, kuko urabona ko atakibashije kubyikorera kugira ngo agire ubuzima bwiza afite n'isuku ku mubiri we.

Umusaza ari kumwe n'abuzukuru be bicaye imbere y'umuryango barimo barasangira, uruzi umusaza arimo atekereza ibintu byinshi n'abana baryohewe bishimira kuba bari kumwe na muzehe wabo bimeze neza.

Umubyeyi w'umwirabura ukuze ari kumwe n'umuganga w'umuzungu, uwo mubyeyi ukuze yazamuye amaboko hejuru afatira akantu gatukura ahagana hejuru ku mutwe we, uwo muganga ari gusuzuma nk'ikintu runaka cyangwa indwara runaka kuri uyu mubyeyi.

Umu mama n'umu papa uruzi bakuze bari kumwe bicaranye, uruzi uno musaza basa naho bamwandikiye imiti kwa muganga azajya anywa, umukecuru arimo kumwereka ati nko kurupapuro aho banditse uko azajya afata iyo miti kugira ngo abashe ku yinywa neza akurikije uko abaganga bayimwandikiye.

Abantu batanu bari hamwe harimo umusore umwe, umukobwa umwe n'undi mwana muto ndetse n'umusaza n'umukecuru, bari hamwe bifotoje ifoto baseka bishimye, uruzi ko banezerewe ndetse n'ababyeyi babo byabashimishije cyane.

Kwa muganga harimo icyumba, hicayemo abantu bakuze ndetse muri icyo cyumba harimo umuntu ukuze uri ku kagare, uri kugenda afashwa n'umuganga amusunikira kugira ngo ajye ahantu ashaka kujya kuko afite ikibazo cyo kutagenda.

Umumama n'umupapa uruzi bakuze, bari hamwe baricaye bafatanya ku rutugu, umupapa yegamye ku mumama basetse, bishimye baranezerewe bishimiye kuba bari hamwe.

Muganga w'umuzungu bari kumwe n'umugabo w'umwirabura bari mu nyubako kwa muganga arimo aramufasha kugendera mu kuma kabugenewe ngo afashe abantu bavunitse kwimenyereza kugenda no kongera kugenda neza nka mbere bataravunika .

Umukobwa ukiri muto ari kumwe n'umumama ukuze bari hamwe, umukobwa yambaye akuma mu ijosi, umumama bari kumwigisha gufata ku kandi kuma uruzi bakoresha mu gukora siporo.

Umugabo wari uziko ashaje, afite imisatsi irimo imvi, yambaye ishati ijya gusa kaki n'ipantaro y'umukara, yambaye n'urusaha runini ku kuboko, yicaye ahantu arimo arareba kuri iyo saha ye isanzwe.

Abantu batandukanye harimo ababyeyi, harimo abakobwa n'abagabo, bari ahantu hagati y'imirima uruzi ihinzemo imyaka. Ni mu gisambu rwagati, bafashe ifoto, barishimye, bari kumwe nta kibazo.

Umuntu ukuze w'umusaza uryamye kwa muganga wambaye ikintu ku kuboko gifasha gupima umuvunduko w'amaraso acometse ku mashini, hejuru ye hari umuganga uri kumufasha kureba uko ubuzima bwe buhagaze.

Abantu baba'ababyeyi bakuze bicaye ahantu hamwe hasi hari n'abandi bicaye hejuru ku ntebe ubona bateze amatwi ijambo ry'umuntu arimo ababwira ndetse ubona byabashimishije bashishikajwe nabyo .

Umugabo w'umwirabura ushaje ufite imvi, wambaye linete ufite ikaramu mu ntoki urimo usoma igitabo, ari gusoma igitabo kirimo inyigisho zigenewe abantu bakuru n'uburyo biyitaho iminsi yo kubaho yabo ikiyongera.

Umugore uri kumwe n'umusaza uruzi ko ari kumufasha gukora nka exercise runaka y'amaboko akoresheje bande, arimo aramufasha kugira ngo azabimenyere ajye abyikoresha bizamufasha ashobora kuba afite ikibazo cyo mu maboko.

Ni ifoto y'abana b'abakobwa bifotoje bishimye bameze neza, bari gukora, bambaye imipira isa nk'aho bari mu itsinda rimwe ndetse barimo gukora nko ku ngingo imwe bagamije guteza imbere ubuzima ndetse no kugira ngo bafashe umunyarwanda kugira imibereho myiza, bagirire sosiyete batuyemo akamaro.

Inama ya RBC yabereye muri Lemigo hotel i Kigali, yiga ku buryo bateza imbere ubuzima bw'abantu ndetse ikomeza inavuga ko bushakashatsi butandukanye bwakozwe mu buzima n'ibyavumbuwe bishyashya mu rwego rw'ubuzima.

Abaganga babiri bambaye imyenda yabo yo kubaga, bambaye nagapfukamunwa n'ingofero mu mutwe, bari mu cyumba cy'ibagiro barimo barabangwa umuntu bagira ngo bamuvure indwara runaka arwaye imwe mbere mu mubiri bamufashe kumererwa neza.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama uruzi bateze amatwi, abagabo babiri bandi bari hejuru kuri tebo, harimo umuzungu harimo n'undi w' umwirabura barimo barapuresanta umushinga, babigisha ku kurwanya no gukwirakwira kw'iyi ndwara ya Murburg.

Pubulicite yateguwe yerekana uko habaye umunsi mukuru w'indwara ya Diyabete yerekana umunsi mukuru uribubere ushishikariza n'abantu kuza kugira ngo bafashe abo bose bagezweho ikibazo n'indwara ya Diyabete ndetse barinde n'abantu kuba barwara iyo ndwara ya diabete babagira inama ku buzima n'icyo bakora.

Conference yabaye yahuje abantu bakuru mu nzego z'ubuzima mu Rwanda ndetse n'abaturutse hanze yiga, ivuga ku bushakashatsi bwakozwe mu buzima n'ibindi bintu byose biteza imbere ubuzima mu Rwanda.

Ifoto iri mu ibara ry'ubururu bwerurutse, yanditseho amagambo amwe ari mu cyapa mu nyuguti nini cyane, andi ari mu cyapa mu nyuguti ntoya, ngo twirinde indwara y'ubushita bw'inkende. Ureba ko bagamije gukangurira abantu kwirinda ino ndwara.

Ifoto y'abantu bashinzwe mu kurwanya igwingira, baje no kwimakaza imirire myiza mu bana batoya, harimo abanyamahanga, harimo abanyarwanda bari bakoraniye mu nama kugira ngo bakomeze barwanye igwingira ry'abana bato ndetse bimakaza n'imibereho myiza yabo.

Umudamu witwa Perian belez wo muri Uganda, afite icyo ashinzwe muri guverinoma ya Uganda, arimo asobanu uburyo ki Covid cumi n'icyenda, nyine ari ikibazo nyine ku buzima bw'abantu, arimo avuga ko abantu bakwiye kwimvestinga mu kuzana vagisine muri Afurika, zituma twirinda Covid.

Inama mpuzamahanga yita ku isuku yateranye, umuntu ari imbere arimo arapurezentinga, ababwira uburyo ki bagomba kwita ku isuku n'icyakorwa kugira ngo isuku ikomeze yimakazwe kandi buri wese yumve ko ari ingenzi mu buzima bwe.

Ikirangante ngo cyerekana ikigo runaka gishinzwe kwigisha abana n'abandi bantu muri rusange uburyo sida ari mbi, uburyo yandura n'uburyo bwo kuyirinda, kugira ngo tugire urubyiruko rwiza, ruzima rw'ejo hazaza.

Imbuganga ngari irimo abantu batonze umurongo, ahandi hari abaganga babiri barimo basuzuma abantu indwara zo mu kanwa hari urimo asuzuma umusaza amuritse mu menyo ye ngo arebe uko ameze.

Ibi n'ibitaro bya kabgayi hano ni ku marembo yinjiramo baratwereka m'imbere winjiyemo igice gitoya bikaba bivura amaso bigatanga n'izindi serivisi zose zerekeranye n'amaso abafite ibibazo by'amaso bose baza kwivurizayo.

Kwa muganga harimo inyubako zitandukanye ahi barurwayi bagiye barwarira hatandukanye bitewe n'indwara barwaye, noneho hano turi kubona ni kuri materineti aho ababyeyi babyarira abandi bakaba iyo bamaze kubyara.

Umuntu ari kwa muganga aryamye ku gitanda cye mu bitaro, urabona ko yishimye, yishimiye ubuvuzi ari guhabwa ndetse ubuzima bwe burimo bugenda neza, agira n'icyizere cyo gutaha vuba yakize neza, ameze neza.

Umurwayi ujeje araje bahita bamwinjiza mu cyumba bashyiramo abantu baje ari indembe, bagiye gutangira kumwitaho bamuha ubuvuzi bw'ibanze ndetse banamukurikirana kugira ngo azabasheke gukira kuko aza arembye.

Clinic iri ahantu ku muhanda ya etage, imbere yayo haparitse imodoka enye hirya hari indi nyubako nayo yegereye, kandi imbere yayo ku rundi ruhande hari umu agenti ucuruje amanite inyuma. Inyuma yayo imbere hateye ibiti bitandukanye n'imipande n'impande hazengurutswe n'ibiti.

Icyapa n'ibitaro bikuru bya Ruhengeri biherereye mu ntajyaruguru akarere ka Musanze iruhande rwacyo hari umuhanda abantu banyuramo bagenda bari kujya mu bice bitandukanye by'aka karere.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo ibitanda bitandukanye birayeho abarwayi, bigiye bizengurutswe n'amarido, urundi ruhande hariho ibikoresho bitandukanye nk'utubati n'ibindi wakwifashisha, hirya cyane hariyo umuganga wahoze urimo afasha umurwayi yambaye iniforume zo kwa muganga.

Inyubako ya hopitari imeze neza yubatse bigezweho imeze neza rwose ifite resebusiyo umuntu utahazi ashobora kwinjira akicara akabaza amakuru bakamuyobora mu nzira zitandukanye bitewe n'ibyo aje kwivuza.

Iyi niyo inyubako yo kwa muganga bari kutwereka inzu y'ababyeyi bita materinite, imbere yaho hari amabuye ashashe mu nzira iza kuri ino nzu y'ababyeyi, iruhande hari udusambu n'utujaride tugiye twengeraye inyubako.

Kwa muganga, kino cyumba kirimo ibitanda bibiri, harimo abarwayi babiri, harimo umusaza, harimo umwana, harimo amacupa y'amazi, n'izindi mashini bifashisha babavura. Bararwaye bararembye, urabona ko babashyize ku byuma bibongerera umwuka.

Inyubako yo kwa muganga ya etage isize irange rijya gusa n'umuhondo, bari kutwereka igice cy'inzu y'ababyeyi n'impinja, ababyeyi baba, ahagana hasi hari abantu bahari bategereje guhabwa serivisi cyangwa kwinjira muri iyi nzu y'ababyeyi n'impinja, hari n'imodoka ihaparitse.

Inyubako yo kwa muganga, izengurutswe n'ibyuma, ifite ibice bitandukanye, aho abarwayi baza baje kwivuza, buri wese akajya ajya mu gice gitandukanye n'icy'undi, bitewe n'indwara yaje aje kwivuza. Mo imbere harimo indabo, harimo amajaride, ibyatsi hasi, n'ibindi bintu.

Inyubako yo kwa muganga ikikijwe n'ibigega n'izindi nyubako zitandukanye bavuriramo indwara zitandukanye ifite jaride, ifite indabo, urabona ko ari kuri isange wane sitopu senta aho abana b'abakobwa bahohotewe baza gupimirwa no gutanga ibibazo byabo.

Ikigo gitanga ubuhuzi ku baturage batandukanye n'abantu baza kwivuza, aho baza bakavundwa bagahita bisubirira mu rugo, akenshi kiba ari pirive kandi kiba gikorwamo n'abadogiteri n'abasipesiyalisite baturutse muri filidi zitandukanye zo mu buzima, baba basobanukiwe bya neza ibyo bakora kandi abantu baza kwivuriza aha, baba bishyura amafaranga afatika kuko biba ari pirive.

Kwa muganag kino ni icyumba cy'aho babikamo imiti y'ubwo bwose igiye itandukanye, ivura indwara zitandukanye, buri yose igiye ipanze bitandukanye bitandukanye n'indi bitewe n'indwara igiye ivura.

Farumasi yo kwa muganga, harimo imiti itandukanye y'ubwoko butandukanye: yaba iy'uruhu, yaba iyo kunywa n'indi igenda idufasha kwivura indwara zitandukanye.

Umuhanda unyurwamo n'abantu, iruhande hateye indabo nyinshi cyane n'ibiti hirya yaho, imbere yaho naho baratwereka geti y'ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge.

Icyumba cyo kwa muganga, aho hari ibitanda n'ibikoresho bigiye biri ku bitanda ubona ko ari imiti ya buri murwayi, hakaba tereviziyo n'ibindi bintu bya ngombwa abarwayi bakenera n'ibyo babavurisha.

Hano hantu barahafotoye bahacamo igice ntabwo hose harimo. Bahafotoreye kure, nta bintu byose bigaragara usibye nk'umuntu urwaye amaso ntiyaba abiruzi keretse abanje kwegera neza, ariko hari urumuri ruri muri iyo nzu. Hano hantu harasa neza.

Umwana bajyanye kwa muganga urabona ko ari mukuru we wamujyanye kwa muganga, ari kumwe n'umuganga ari kubanza kumuganiriza kugira ngo amumare ubwoba, maze abone amuvure indwara baje baje kumuvuza cyangwa amusuzumishe indwara yaba afite.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu babiri, umwe n'umwana w'umukobwa ruswa ko ari umunyeshuri undi ni umuganga wambaye itaburiya n'agapfukamunwa. Yamushyizeho igikoresho bakoresha iyo bagiye gupima umuvunduko w'amaraso akimushyize ku kuboko.

Muganga umuntu w'umukobwa yaje kwivuza ari kubwira dogiteri ibibazo afite n'icyo yashasha kwivuza, inyuma ye hari umuforomo washinzwe gufasha dogiteri yambaye n'imyenda y'akazi y'abaforomo.

Kwa muganga mu imbere mu cyumba harimo ibikoresho bitandukanye byo kwa muganga, intebe n'utundi dukoresha abaganga bagenda bakoresha mu gutwara imiti bayishyiriye abarwayi mu byumba.

Icyumba cyo kwa muganga ho hari ibitanda bibiri biryamyeho abarwayi b'abasore umwe ni umwirabura undi ni umuzungu, barimo kwitabwaho n'abaganga babiri b'igitsina gore, babafasha kugira ngo bongere bamere neza.

Muganga ari mu nyubako hari ifoto ya conegise kuri mashine arimo arareba igice cy'umuntu ngo arebe ko hari ikibazo kiri, arimo arareba muri kiriya gice cy'uriya muntu mu mubiri we mo imbere ngo arebeko harimo ibibazo.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'icyatsi uruhande rumwe, urundi gisize irangi ry'umweru, harimo n'inzugi zisize irangi rijya gusa umuhondo, hasi harimo amakaro ajya gusa bureseyeri, harimo n'ibitanda biriho n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga haririmo ibikoresho bitandukanye bifasha kwa muganga, bavura indwara zitandukanye cyangwa basuzuma indwara zitandukanye zaba iz'imbere mu mubiri ndetse n'inyuma mu biri.

Inyubako ndende y'ibitaro bya pirive, igizwe n'ibice bitandukanye, aho abarwayi baza kuhivuriza, bagahamba serivisi z'ubuzima, bakavurwa indwara zitandukanye, bagataha bameze neza.

Umwana kwa muganga. Umwana w'umuhungu ameze nk'umuntu ugiye kumena nk'ibintu biri muri iyi base. Hari n'undi mugore ufite undi mwana mutoya, amufashe mu ntoki usa nk'aho arwaye, arimo amutembereza mu bitaro.

Inzu yo kwa muganga aho abarwayi barwarira harimo ibitanda bitandukanye bigiye bifite inzitiramibu hejuru, bigiye bifite amarido ndetse hari n'utubati aho buri murwayi aba afite akabati abikamo ibikoresho bye ndetse ino nzu urabona uko iteye no hirya yaho ni ko hameze, igiye isa n'irimo ibice bibiri bibiri.

Inyubako yo kwa muganga, uruzi yubatswe mu buryo bukomeye cyane, yubakishijwe amabuye akomeye cyane, harimo haratemberamo abaganga babiri b'abagabo, bagenda baganira, ino nyubako ifite n'amajaride hirya agiye atandukanye ayizengurutse.

Inyubako y'ikigo nderabuzima bita Gishweru, imbere hari umuganga umwe n'abandi bagabo babiri, umwe wicaye n'undi mubyeyi umwe, n'inyuma mu nzira zijya muri iki kigo nderabuzima harimo abandi babyeyi babiri bari kugendamo.

Icyumba cyo kwa muganga uruzi umurwayi aza akaryama ku gitanda gihari, bakaba bamufata amashusho yenda afite nk'ikibazo mu nda bakamusuzumira, akajya areba amashusho kuri ya mashini igaragaza uko mu nda ye hameze cyangwa ibindi bice bye by'umubiri.

Umuganga ari mu nyubako mu cyumba aho bakorera ku meza hari amamashini apuritinga n'ayandi akora ibintu bitandukanye n'ibindi bikoresho bitandukanye bifashisha ndetse muri icyo cyumba harimo utubati n'ibindi bintu bye bitandukanye.

Inyubako ikoreramo ikigo runaka, ifite ibiro bitandukanye aho abaturage baza gushaka serivisi zitandukanye, ikikijwe n'ubusitani bwiza, ifite inzira nziza zisukuye zimeze neza uruzi igaragara neza umuntu akaba yaba yishimiye kuba ahari.

Kwa muganga hagiye harimo inyubako zitandukanye, ibiti, amajaride, urundi ruhande ahegere urugo ruzengurutse iyo nyubako, harimo ibyicundo, aho abantu baza bakicunda, hanyuma umubiri wabo ukarushaho gukora neza.

Abakozi batandatu bambaye iniforume n'ubupfukamunwa by'akazi uruzi bakorera kilinike, bari hamwe bafashe ifoto bageze nko ku ntego runaka barishimye ku bwo imirimo yabo bamaze gukora no ku bwo irimo igenda neza.

Inyubako yo kwa muganga ya etaje ifite jaride nziza mo imbere irimo indabo zitandukanye n'ibyatsi biconje bicunze neza n'ibiti bigiye biteyemo, ifite amayira meza ashashemo amabuye agenda ajya buri hantu hatandukanye muri ibi bitaro.

Inyubako yo mu bitaro irimo ibiro bitandukanye, irimo aho abaganga bakorera, aho abarwayi baba, naho babika ibikoresho byo mu bitaro bakoresha buri munsi mu kuvura abarwayi no kubafasha kumererwa neza.

Mu nyubako yo kwa muganga harimo icyumba kirimo imashini n'ibindi bintu bitandukanye, harimo umuganga wambaye imyenda y'abaganga, ingofero mu mutwe bakorana akazi, ari mo umwe, yazamuye icyuma kimwe gihari arimo arakoramo.

Umuhanda urimo igare, umunyonzi atwaye umwana w'umukobwa, imbere yaho hari n'undi mwana mutoya, imbere ye nanone hari indobo y'ubururu. Ku rundi ruhande hariho icyapa cyanditseho ikigo nderabuzima cya Gisenyi, uruzi mo mu imbere ko hari abantu baje kwivuza.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibitanda bigiye bishashe bifite amashuka y'ubururu ndetse n'umweru, hariho amarido y'umweru, hariho purafo y'umweru n'amakaro hasi ndetse buri gitanda kigiye gifite akabati ku ruhande ndetse n'intebe yo kwicaraho n'akandi kantu hepfo y'igitanda kameze nk'ako guterekaho ibikoresho.

Inyubako ya etaje ureba ko ari kirinike, aho abantu baza kwivuza, ndetse muri bo harimo abantu bane bari ku ruhande rwo hasi, abagabo batatu bahagararanye n'undi umwe uri kuza, aza asa n'usohoka kuri kirinike, haparitsemo n'imodoka ahagana aho baparika hasi.

Inyubako ishinzwe gukorerwamo ubushakashatsi ku buzima, haba imiti, haba kuvura indwara zitandukanye n'ibindi bintu byerekeye ubuzima, nicyo kintu gikorerwamo umunsi ku munsi.

Abantu bane mu cyumba gikorerwamo operation aho babagira abantu, abo bane harimo abaganga batatu n'umurwayi umwe. Umuganga umwe arimo arabangaga uno murwayi kugira ngo amufashe gusubirana ubuzima no kumera.

Isange one stop center aho biri mu bitaro bitandukanye mu gihugu bikaba bifasha abana b'abakobwa bahuye n'ihohoterwa, bikabasha kumenya uburyo bakorewe ihohohoterwa, icyabiteye, ndetse bakabafasha no kubashakira ubutabera bitewe n'ihohoterwa bakorewe bo iyo basanze ari ukuri.

Farumasi igiye ifite imiti y'ubwoko bwose igiye itandukanye kandi igiye ipanze ahantu hatandukanye bitewe n'icyiciro cy'umuti, imbere y'aho ku kirango ahagaragara haranditse ngo progress pharmacy.

Icyumba cyo kwa muganga harimo, aho basuzumira indwara zitandukanye aho bagushyira muri ekogarafi bakakurebera mo imbere mu mubiri uko bihagaze, wenda ari umubyeyi utwite bakamurebera uko umwana ameze mu nda, ari umuntu ufite ikibazo mu nda bakamurebera uko gihagaze.

Igice cy'inyubako yo kwa muganga cya materinite aho ababyeyi babyarira, bakitabwaho mpapaka bamaze gufata imbaraga, bakaba basezererwa bakajyana abana babo mu ngo zabo bagakomeza ubuzima busanzwe babitaho ndetse babarera neza.

Umukobwa ufite ibisuko wambaye n'akandi kantu k'umukara kazengurutse, imbere ku mutwe arimo aragorora amaboko ye akoresheje gushyira ibiganza hejuru akabifatanya.

Umukobwa ufite umusatsi muremure, wambaye agasengeri k'ubururu, ari kunywa amazi akoresheje gurude kugira ngo afashe mu mubiri we kumererwa neza kandi na we amere neza.

Umukobwa wicaye ahantu kuri tapi, ari gukora siporo yibanda ku zigoror’amaguru n'amaboko n'izindi zitandukanye. Imbere har’icupa ry'amazi, mu kaboko afite akantu kamufasha kubara igihe arimo akoresha, yambaye na ekuteri arimo yumva imiziki.

Hano habaye siporo rusange, abantu baje muri siporo barangije havamo abana batoranyijwe bitewe n'uko icyo igikorwa cya siporo cyari cyateguwe baraza barabyina, bashimisha abantu babakangurira gukora siporo kuko siporo ari ubuzima.

Umwana w'umukobwa wambaye ekuteri, isaha ku maboko n'agasengengeri ka orange ari ahantu ari kwitegereza hakujya anakora siporo ruswa ariko ngora amaboko ye ndetse n'imbavu ze n'inda ye kugira ngo bimere neza.

Umusore araryamye, aryamye areba hejuru umuganga amufashe ku itako no ku ku nguru, arimo kumva ahantu yavunitse amukanda kugirango abone uko amuvura.

Imbuto zitandukanye, ibinini n'utundi dukoreshasho dutandukanye umuntu ashobora kwifashisha mu buzima, kugira ngo buzima bwe bwa buri munsi bugende neza ameteyininge ibirobye n'umubyibuho we yirinda n'izindi ndwara zitandukanye zishobora guterwa no kubura indyo yuzuye ndetse n'imboga n'imbuto nk'igice kigize ibirinda indwara.

Umuntu w'igitsina gabo, n'umuntu w'igitsina gore, bambaye amajesi magufi ya siporo, n'amasengeri hejuru, bafite n'amazi mu ntoki ari mu magurude, bari kugenda bakora siporo birukanka gakegake.

Bino n'ibikoresho, ibikoresho bibiri bitandukanye ariko ni bimwe byose wabikoresha mu gukora siporo, ushobora kubikoresha muri siporo uri mu rugo cyangwa wagiye jimu cyangwa n'ahandi.

Ibikoresho bitandukanye binyobwa harimo amazi imbuto zitandukanye bigaragaza uburyo umuntu yakora kugira ngo agabanye ibiro ndetse no mu nda abe ari fit ameze neza bityo na rware indwara zitandura ziterwa n'umubyibuho ukabije.

Umuntu w'igitsina gabo w'igikara wambaye umupira ujya gusa umweru, ufite ubwanwa afashe gurude mu ntoki isa ubururu irimo amazi, arimo aranywa agenda anywa gake gake.

Abaganga bane ndetse n'umurwayi bari mu cyumba, abo baganga bambaye nk'abagiye gukora operasiyo cyangwa kubaga uno murwayi, bari kubanza kumuganiriza ndetse bamutega amatwi mbere yo kubikora.

Icyapa kigaragaza siporo zitandukanye n'akamaro kazo n'izo umuntu yakora buri munsi n'icyo zagenda zimumarira kandi zimufasha mu buzima bwe bwa buri munsi kugira ngo amere neza, umubiri we umere neza.

Ikibuga kinini cyane kirimo abantu benshi cyane, bakaba ari urubyiruko ndetse n'abana batoya. Muri bo harimo abantu bambaye imipira y'umweru isa, inyuma hari n'abandi bantu bicaye ku ntebe. Urabona ko habaye nka siporo rusange, bari gukora imyitozo ngororamubiri nyuma yo kwirukanka.

Umuntu uri kuri interinete rimo asacinga amakuru atandukanye, arimo ajya ku ma website, ajya ku bindi bintu dukoresha dushaka amakuru, arimo areba amakuru atandukanye, cyane cyane arimo areba buryo ki umuntu ashobora kurwara indwara runaka, harimo ishusho y'umuntu warwaye indwara runaka ashobora guterwa no kudakora siporo.

Umuntu ni igitsinagabo arabyibushye afite umubiri ubyibushye rwose yambaye isaha ku kuboko n'umupira w'ubururu afite amazi mu ntoki arimo aranywa gake gake.

Imboga ndetse n'imbuto biri ahantu hamwe, harimo kokombure, harimo imineke, harimo amaronji, harimo imineke n'izindi. Urundi ruhande rurimo ibyuma bigiye birutanwa muri sayize bitandukanye.

Umuntu ufite agatambambaro urimo wikanda mu ivi ashobora kuba yagize ikibazo mu ivi cyangwa igufa ryo mo imbere mu ivi rikikanga avuye muri siporo cyangwa avuye ahandi hantu hatandukanye.

Umuntu yari ari mu myitozo ari kwiruka cyangwa ari gukora indi myitozo nko gukina, ni urugero, maze aratsikira yikanga mu ivi, yumva asa n'uvunitse ajya ku ruhande ngo yikande kugira ngo amere neza, asubire mu myitozo yara arimo.

Umuntu afite icupa ry'amazi, ararifunguye, yisutse ku mutwe, mu maso, mu gahanga, asa n'uri koga, ariko adashaka kwikora mu maso.

Umuntu wari uri muri sipoporo angezeho asa n'uvunitse aricara arikanda kugirango ngo yongere amere neza akomeze siporo.

Umuforomo uri gufasha umurwayi kugendera ku byuma byabugenewe by'abantu, bagize ikibazo cyo kuvunika, amumenyereza kugira ngo igihe ni kigera, azongere abashe kugenda neza yigenza nta kibazo, amagufa ye yongera akomere asubire ku murongo, asubire mu mwanya wayo.

Bityo fata iyo umuntu wagize ikibazo cyo kuvunika amagufa ye aratandukana, amagufa yo kukuguru ni yo yatandukanye, bamuha ubufasha bw'ibanze watuma azabasha gusubirana akongera akagendana adacumbagira ndetse ukuguru kwe kukongera kugakomera nk'ibisanzwe.

Umukobwa ukiri muto ufite umusatsi muremure wambaye agasengeri kagufiya n'agateni kagufiya, yacaye mu gisambu arimo akora siporo agorora amaguru, agorora amaboko n'ibindi bice bye bitandukanye.

Ibinini biri ahantu n'inshinge n'ibindi bintu bitandukanye abantu bakoresha bivuza, bashobora kujya kwa muganga bukaguha ibinini cyangwa bakaguha inshinge iyo babonye ari ngombwa.

Umuhanda ku ruhande rwawo gato hari utwuma tuka duteye ku muhanda turinda kugira ngo umuntu yajya imodoka iba yasimbuka ikore impanuka, hicaye umusore arimo arakora siporo zigorora umubiri ari kugorora amaguru n'amaboko.

Umuntu uri muri siporo arimo akora siporo zigorora amaguru n'amaboko, iruhande hari imbuto zitandukanye n'imboga, batwereka ko nyuma yo gukora siporo ugomba no kurya ibiryo bifite intungamubiri kugira ngo umere neza.

Ibihingwa bitandukanye bigize ibyubaka umubiri, ibitera imbaraga, ibirinda indwara, n'ibindi bikoresho bitandukanye umuntu ashobora gukoresha akora siporo, nk'imigozi, inkweto za siporo n'ibindi, bino byose biradufasha gukora siporo neza ndetse tukanarya neza n'ibintu bifitiye umumaro umubiri wacu tukagira ubuzima bwiza.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umukara, ari kumwe n'umuganga wambaye imyenda yabo y'ubururu ndetse na baji, uwo muganga ari gufasha mugabo gukora imyitozo ngororamubiri, afatishije ibiganza bibiri, akantu gakoze mu mwenda w'umuhondo, arimo agakwega amariramo imbaraga.

Umuntu w'igitsina gabo wambaye umupira w'umweru, wambaye n'agakomo k'umukara ku maboko, wambaye na ekuteri mu matwi zisa umweru, arimo aranywa amazi agotomera.

Umuntu w'igitsina gore yicaye ahantu yambaye ishati y'umweru n'icyo hasi gisa umukara, yambaye n'impeta mu ntoki n'akanu mu ijosi, asa n'umuntu wagize ikibazo ku kuboko aho amagufa ateranira ari kwikanda akoresheje agatambaro asa n'uwababaye, ari kuhafata cyane yikanda.

Umukobwa ukiri muto wambaye agasengeri n'ipantaro ya siporo n'inkweto za siporo ufite na ekuteri mu matwi n'akantu kamufasha kubara iminota yakoze, ari muri siporo arimo aragorora amaboko amaguru n'ibindi bice by'umubiri.

Umwana w'umukobwa wambaye agasengeri gasa ubururu uvanzemo icyatsi n'umweru ufite furari y'umweru mu ijosi, ari kunywa amazi akoresheje gorudi. Ino gorudi igiye iriho ibipimo n'uko amazi agomba kujyamo cyangwa ikindi kinyobwa kigomba kujyamo kiba kingana.

Ikirenge cy'umuntu uruzi asa n'aho wagize ikibazo akavunika, uri kugenda atagikojeje hasi asa n'uwazamuye inyuma, hanyuma hari igufa rigaragara risa n'aho ryagize ikibazo bashyira ibintu by'amarangi y'ubururu n'umutuku.

Ikiganza cy'umuntu gifite icupa ry'amazi mu ntoki, ari kwerekana amazi meza ukuntu aba ameze, arimo aradusobanurira muri make akamaro ko kunywa amazi, uburyo afasha gusohora imyanda mu mubiri, uburyo afasha umutwe n'ibindi bice kumera neza, umuntu akirirwa akora akazi ke neza kandi adafite sitiresi

Amacupa maremare y'icyuma ndetse n'andi magufi yaya palasitike arimo ibintu mo imbere bisa n'imiti ndetse n'agakarito kayateretse iruhande karimo ibintu bimeze nk'imiti.

Agasekuru ndetse n'akantu bakoresha basekura, biteretse hagati by'icyatsi kibisi bya kinyarwanda urebabe ko babisekura bagakoramo umuti wa kinyarwanda ushobora kuvura umuntu agakira.

Abogisi i karimo icyayi abantu bateka bakagikoresha birinda ibibazo bitandukanye nko kuba mu gifu cyabo hatameze neza iyo bumva batameze neza haba hatsindagiyemo ibintu kibafasha kugira ngo imyanda isohoke mu mubiri kandi kiacyari umwihariko wacyo na kafeyine zirimo ni natirere kiba kimeze neza ni cyiza ku buzima.

Ibiti biteye mu ishyamba biro zimigize uruzi bivura indwara zitandukanye za kinyarwanda, n'izindi ndwara zose tuvura twivura tutagombye kujya kwa muganga mu.

Icyatsi cyera mu ishyamba cyakoze kikazana amababi kikageraho uko kigenda gikura kurushaho kikagera igihe kikazana imbuto ubundi kigakomeza, amababi amwe ahungaka avaho hazaho n'andi mababi mashya.

Indabo ziri ahantu wagira ngo ni ku ruhande rw'inzira cyangwa aho abantu banyura, cyangwa hirya y'inzu runaka, umubyeyi arahanyuze ari kwitegereza akarabo ukuntu ari gushaka kugaca, ari kubona ari keza kamushimishije.

Amacupa abiri aterete yegeranye, arimo atwereka imiti itandukanye, yakozwe mu bikakarubamba, ngenda ifasha ubuzima bw'abantu, bwibonera indwara zitandukanye, ikikakarubamba gifasha no kuvura imvuvu n'zindi ndwara zitandukanye zifata mu musatsi no mu bice by'umutwe w'umuntu.

Umuti uri mu gicupa kiizamuye gihagaze kirekire ndetse n'akandi gatoya kagufiya ka pulastike. Uruzi inyuma hashushanyijeho igikakarubamba, urabona ko hano harimo pronda bitikozezwe mu kika karubanmbahino yaho harirapfapa nta cyangwa wayone hefu n'amagambo menshi menshi asobanuwe nkiiki dukwiye kurengera ubuzima n'ubwirinzi bw'umubiri.

Ni ikigo cy'ubuzima kitwa Akagera Medesinezi batanga ubuvuzi butandukanye izina ryabo ni iringiri. Akagera bafasha abantu batandukanye kuvurwa indwara zitandukanye. Iriya ni rogo yabo yerekana ibyo ba yerekana ibyo bakora ikarangira n'abantu batazi aho baherereye kuba bamenya aho bakorera.

Icyatsi cyameze ahantu kirasasirwa, kizana amababi atoshye, gikomeza kugenda gikura kimeze neza ni kimwe mu byatsi bifashisha bakoramo umuti wa kinyarwanda.

Ibyatsi bitandukanye bifashisha bakoramo imiti ivura Kinyarwanda, harimo amacupa ahari yerekana ko arimo imiti bakoze bakuye muri ibi byatsi, irindi cupa rindi rihari rirerekana ibinini bakoze bakuye muri ibi byatsi.

Icyatsi gifite amababi maremare gifite n'indabo zigenda zizaho, kigenda gikura uko gikura kigenda kirandaranda ku butaka, gikomeza kizana amababi ndetse kizana n'indabo.

Icupa riteretse ahantu, ni icyuma, ni rirerire ndetse risa n'aho ari rinini ku gice cyo hasi rikagenda rigabanuka kuko rigenda rizamuka, ririmo ubuki.

Icyatsi cyameze ahantu, uruzi hari ibindi byatsi byumye n'ibindi byatsi byuyumagaye bihazengurutse, cyarakuze ariko ntabwo gikuze cyane, gifite amababi atoshye kandi maremare.

Imiti myinshi igiye itandukanye ipanze mu macupa atandukanye harimo aya palasitike n'andi macupa y'icyuma ari maremare apfundikiye agiye apanze avangavanze, ino miti urabona ko ari imiti ya kinyarwanda igiye irimo.

Abantu batandukanye harimo abamama, harimo abapapa, bamwe bari mu itsinda bambaye imipira isa bose uko bakorera hamwe ikaba ari icyatsi kibisi n'abandi batambaye iyo mipira babiri, bari mu murima uhinzemo ibikakarubamba bahagazemo ndetse harimo umwe wicaye ahagana inyuma.

Udukarito tubiri duteretse ahantu, turimo imiti mo imbere ya Alliance Global, ifasha abantu kwivura indwara zitandukanye zifata umubiri.

Imiti gakondo iri mu macupa atandukanye igiye iriho ibirango, bakavuga ati '' uyu nguyu ni uyu n'uyu, uyu nguyu uvura ibi n'ibi n'ibi '' bitewe n'uko itandukanye kandi igye ifite akamaro gatandukanye kandi ivura n'indwara zigiye zitandukanye.

Amacupa aciye bugufi, n'amasabune ari mu gakarito, n'indi miti iri mu dukembe inyuma hashushanyijeho igikakarubamba, bigaragara ko ari products zakozwe zivuye mu gikakarubamba.

Umuti uri mu kantu kameze nk'agakarito gafite ibara ry'umweru inyuma rivanzemo umutuku, wanditseho ko ufite mili garamu magana atanu, wanditseho ko hagiye harimo ibinini cumi na bibiri.

Imiti myinshi cyane iri mu kantu kameze nk'akabati karimo ibice bine, igiye ipanze muri buri gice imwe hejuru y'indi, indi hejuru y'indi, iri mu macupa ya pulasitike aciye bugufi, abantu bakoresha bayivuza indwara zitandukanye.

Icyatsi uruzi cyakuze kimeze neza gifite amababi meza kiri no mu ibara ry'ibimera dusanzwe tuzi y'icyatsi kibisi, uruzi giteye ahantu hasi yaho hari amababi yumagaye yagiye akizengurutse.

Iyi ni nshampo boga mu mutwe bagakoresha andi masuka atandukanye mu ibaruwa ikoze ikozwe mu byatsi mu byatsi bya kinyarwanda bakoramo imiti, indi ikaba ari natilere kandi irinda umuntu n'indwara zitandukanye nk'uwayoza mu mutwe yamurinda imvuvu uwayogesheje n'ibindi bintu by'ibikoresho biranoga neza.

Ahantu hahinze imbuto n'ibindi biti by'ubwoko butandukanye, bazitiye kugira ngo birinde kuba hakonwa cyangwa hakwangizwa n'abantu bahanyura, bityo ibyo biti niyo myaka yabo ikomeze ikure neza kandi itange umusaruro.

Ururabo rukura rurandaranda rujya kw’itaka rukomeza ruzana izindi ndabo rwahinzwe ahantu mu butaka budafite ifumbire nkakwirwanaho rukagenda rurandaranda rufite imizi ijyamo hasi gushaka amazi n'ibirutunga rurashishe rumeze neza ugereranyije nuko ubutaka buri hano busa nk'ubutagira intungagihingwa.

Amacupa atandukanye ari aciye bu ngufi, ari amaremare arimo imiti itandukanye ikozwe mu gikakarubamba n'ibindi byatsi bya kinyarwanda abantu bakoresha mu buzima busanzwe.

Ahantu hari ibyatsi bitandukanye by'ubwoko bwose ndetse harimo umuntu uri kugenda yambaye jezi itukura, yambaye n'ikote ry'umukara, yagize ibyatsi asoroma abifashe mu ntoki arimo aragira ngo abitware ajye kubikoresha

Ikiganza cy'umuntu gifashe agapapuro mu ntoki karimo ibintu biseye bimeze nk'umuti ukorwa mu byatsi, ndetse n'iruhande rw'uwo muti n'icyo kiganza cy'umuntu kiwufashe, hari utuntu tw'utwatsi tuhateye.

Ishashi uruzi irimo ibintu byumye mo imbere, uruzi ko ari ibyatsi bumishije bakabishyira mo imbere bakabipajinga inyuma bagashyiraho ko ari amagarama ijana, bagashyiraho ibirimo mbere n'uburyo uwo muti bawufata.

Imiti itandukanye ya kinyarwanda, iri mu byiciro bigiye bitandukanye, ivura indwara zitandukanye, ariko yose igahurira cyane cyane gukuvura umuvuduko w'amaraso. Ikarinda umuvuduko w'amaraso mu mumuntu.

Agakarito karimo product za Alliance Grobal, zivura indwara runaka, imbere yaho hari ibinini bihateretse, ureba ko ari ibinini, byakozwe bivanywe mu bimera.

Ibimera bitandukanye bahuje amafoto yabyo, buri kimwe kigiye gifite itandukaniro n'ikindi n'amabara agiye atandukanye hari ibifite amabara y'icyatsi neza, hari ibifite amabara ajya gusa umuhondo, hari n'ibifite amabara y'umuhondo.

Imwe muri porodagiti cyangwa imiti ikorwa na ariyanse gorombo iri mu gakarito mu imbere. Uno muti ukozwe mu bimera bya kinyarwanda, ufasha kuvura abantu bafite ibibazo bitandukanye kugira ngo bamere neza.

Ahantu hari igisambu kinini ariko kigiye gihinzemo ibiti bitagiye byegerana, bigiye bitangaranye kimwe aha ikindi hariya ikindi hariya birabarika.

Ibabi riteretse ahantu risa icyatsi hari no hejuru y'indoba bihagiye harambitsemo imiti iri mu bintu bimeze nk'amashashi, ni imiti ya kinyarwanda abantu bivurisha.

Amaronji afite size zitandukanye, hari amanini y'umuhondo, hari n'agereranyije y'umuhondo, hari n'amato cyane y'umuhondo, hari n'ay'icyatsi kibisi agereranyije n'andi mato cyane y'umuhondo.

Amatibe n'amasabune akorwa mu miti no mu byatsi bya kinyarwanda yose, arakorwa agafasha umubiri w'umuntu n'uruhu rwe guhora rutoshye kandi runyerera, agafasha n'umuntu kumurinda gusaza imburagihe agahora asa neza mu maso nk’umwana muto, kuko ino miti ya kinyarwanda ibiri natural ntabw’ari nka ya mavuta n'amasabune byakorewe mu nganda.